Kwa muganga hari ameza, intebe, itaburiya, abagabo babiri bahagaze iruhande y'ibitanda, ibitambaro by'umweru, igisenge cy'umweru n'umukara, intebe zisa n'icyatsi.

Abagabo bambaye impuzangano, y'umutuku bari mu byatsi hagati. Kuruhande hari ikawa, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'umusozi uriho amaterasi y'indinganire.

Kwa muganga umurwayi yicaye ku gitanda iruhande rwe hahagaze umugabo n'umugore bambaye impuzankano yo kwa muganga bafite amakaye.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'imipira y'umutuku ndetse n'abagore babiri bafite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu. Inyuma yaho hari irindi tsinda ry'abagabo n'abagore hakurya hari inyubako inyuma yazo hari igiti.

Imbangukiragutabara ifite ibara ry'umukara, ubururu, umutuku, ihagaze imbere y'ibaraza riri mu mabara y'umweru ndetse n'amadirishya y'umukara.

Abaganga bipfutse mu maso bahetse ibijekani by'umweru, bambaye n'imyenda y'imyeru, n'amadarubindi ndetse n'ibitambaro by'umweru ku mutwe.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bambaye impuzankano y'imyenda y'umutuku, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'ubururu, ibitabo, amakaramu ndetse n'amacupa y'amazi.

Itsinda ry'abaganga harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, umweru n'icyatsi, igisenge cy'inzu gikoze mu mbaho.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bambaye imyenda y'ubururu, n'icyatsi n'umutuku, afite icyapa kiri mumabara y'umutuku, umukara n'umweru iruhande hari indabo ndetse n'ibyatsi, hakurya hari ibiti n'amazu.

Abagabo batatu n'abagore batatu bari mu cyumba gifite inkuta z'umuhondo, imbere yabo hariho ameza ateretseho mudasobwa.

Abagore bakenye, abandi bambaye ibitenge, bari kumwe n'umugore wambaye akenda k'ubururu, iruhande rwabo hari icyapa gishushanyije abantu, cyandikishijweho mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara.

Imbuga nini, imbere hahagaze ikimodoka cy'umweru gifite shitingi ku ruhande isa n'icyatsi, munsi yayo hicaye abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa. Ku ruhande hahagaze abandi bagabo, hirya yabo hari ibiti, hepfo hari inzu.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umugore wambaye umupira w'umutuku, imbere ye hari abaganga bambaye ibishashi by'umweru, hakurya hari abandi bambaye impuzankano y'imipira y'umutuku.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari ibishashi binini biri mu mumabara y'icyatsi. Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'impuzankano yicyatsi, hakurya yabo hari abandi babiri bambaye udupfukamunywa tw'ubururu ndetse n'imipira y'umukara.

Mu cyumba cyo kwa muganga, ku meza hariho imiti myinshi, mudasobwa, abagore babiri ndetse n'undi kuru ruhande ufite umwana, iruhande rwabo hari akabati karimo ibitabo.

Hari abantu benshi bicaye, imbere hagaze umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, uri gutanga imbwirwaruhame, ku ruhande hagaze abagabo bambaye amashati y'umweru, hakurya hari inyubako ifite ibaraza.

Abantu bahagaze mu mbuga bafite utumeza tw'umweru, inyuma yabo hari inyubako iri mu mabara y'umweru ndetse n'igitaka.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo igitanda kiri mu mabara y'umweru, icyatsi, ubururu, hakurya hari igikoresho bakarabiramo, inkuta z'icyumba zisa n'umweru.

Abagabo babiri n'umugore bahagaze mu nzu, hari ifite inkuta z'umweru n'inzugi z'umutuku, umugore yambaye umweru n'umukara.

Mu cyumba kirimo ameza menshi ndetse n'imifuka n'ibikoresho by'isuku, hicayemo umugabo wambaye ishati y'umweru, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, hakurya hari undi mugabo, iruhande rwe hari idirishya.

Ku ibaraza ry'ivuriro, hicayemo imbaga y'abantu benshi, abagabo abagore n'abana bato. Inyuma hari abandi bari kuza, hakurya yaho, hari igiti, ndetse n'andi mavuriro.

Abayobozi bicaye mu myanya y'icyubahiro imbere yabo hari amakaye amakaramu ndetse n'amazi, ku rukuta hariho amagambo ndetse n'ibishushanyo.

Inzira yerekeza ku ivuriro rihagazeho abantu benshi, iruhande rwayo ndetse no ku ibaraza, ivuriro ryubakije amatafari ya rukarakara risakajwe amabati y'ubururu.

Hari umugabo wicaye mu byatsi, hakurya hari itsinda ry'abantu bicaye ku ntebe abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari umuryango.

Abana babiri bicaye ku bitanda bishasheho ibiringiti biri mu mabara y'umutuku, iruhande rwabo hahagaze abagabo ndetse n'abagore hakurya hari umuryango w'inyubako iri mu mabara n'umuhondo.

Ku ivubiriro hari umugore wambaye ibitenge, imbere harivimeza, hakurya hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru n'amadarubindi, afite imiti mu ntoki, hakurya hari uruzitiro ndetse n'inyubako.

Umusaza wambaye ishati y'umweru ufite imvi wambaye n'amadarubindi. Yegeranye n'umugabo wambaye ishati y'umweru nundi ruguru yabo wambaye ishati y'umweru. Hino hari umusaza wambaye amadarubindi nawe afite imvi wambaye ishati y'umweru. Kuruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'ubururu.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'amadarubindi, afite telefone mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa, umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara ari kumutera urushinge. Inyuma hari intebe zo mu ibara ry'umukara.

Itsinda rya'bagore n'abagabo bicaye, iruhande hari abana bicaye mu ibaraza, hakurya hari inzu ifite utubara tw'umweru.

Kwa muganga ibitanda bitatu bishasheho amashuka y'icyatsi ndetse n'ubururu, hariho amadirishya atatu.

Abantu benshi bicaye mu ihema riri mu mabara y'icyatsi bicaye ku ntebe z'umweru n'ubururu, higanjemo abagore n'abagabo harimo n'abashinzwe umutekano wa gisirikare.

Mu mbangukiragutabara harimo indobo iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyo baryamishaho abarwayi gikoze mu byuma, ku ruhande hari aho abagenzi bicara hasa n'ubururu.

Ni umugabo wambaye ishati y'umweru, uri mu nzu ikorerwamo ubushakashatsi, harimo za mudasobwa, intebe z'umukara, amarido y'ubururu, hakurya hari n'abandi bantu.

Umugore wambaye ibitenge biri mu mabara y'umuhondo, n'umutuku n'umweru, ahagaze iruhande rw'umugabo wambaye ishati y'umweru ari kumupima, inyuma yabo hari idirishya riteretseho icupa ry'amazi, hepfo yaho hari umuryango.

Umugore wambaye ishati y'umweru ufite ikaramu n'gipapuro mu ntoki, imbere hateretse imiti, hakurya hari umugabo wambaye ishati y'umweru, n'uwambaye ipantaro, y'umukara.

Umugore wambaye ishati y'umweru, ufite icupa mu ntoki ririmo ibintu by'icyatsi, iruhande rwe hari undi mugore wambaye ishati y'umweru.

Umugore uhagaze imbere y'inyubako n'undi mugabo wegamiye ku nkingi z'inyubako n'abandi babiri bari ku ibaraza ry'inyubako, ifite ibara ry'umweru, isakajwe amabati y'ubururu.

Umugore aricaye afite umwana mu biganza, abandi bahagaze iruhande rwe, harimo abambaye amashati y'ubururu n'amashati y'umweru n'amakayi mu ntoki.

Itsinda ry'abantu bateraniye hamwe higanjemo abagore, abagabo. Imbere yabo hari umugore yambaye ikanzu y'umutuku n'umugore uri kuruhande. Kuruhande hari imeza y'umutuku iteretseho isafuriya irimo imboga n'indi iteretseho isafuriya irimo ibikombe.

Benshi bambaye imipira y'i'mihondo nandi mabara atandukanye bicaye ku misambi, hagati yabo hari umugabo wambaye ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Abagore benshi imbere hariho ufite umwana wambaye akenda k'ubururu, hakurya hariho uwiteze igitambaro cy'umukara, hirya hari undi ufite igishura mu ijosi.

Umugore wambaye ishati y'umweru uhetse umwana mu bishura by'umweru n'umutuku n'umuhondo, afite urushinge mu ntoki agiye gutera umwana ufashwe n'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ubururu.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, hahagaze umugore, hakurya hari inzu ndetse hari n'umugezi.

Abana bari mu cyumba cy'ishuri, bafite ibitabo, hejuru hahagaze abagabo bambaye impuzugano y'imipira y'icyatsi, imbere hari ikibaho cy'umukara, umuryango w'icyatsi, inkuta z'ishuri zisa n'umuhondo.

Abagore benshi bafite abana biteze ibitenge, bahagaze munsi ya shitingi y'umweru, imbere hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu hakurya hari uruzitiro rw'indabo.

Umugore uri kwa muganga, wasigagatiye umwana, yicaye ku gitanda gishashe amashuka y'umutuku, urukuta rusa n'ibara ry'ubururu, imbere ye hari igikombe n'uducupa.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, biganjemo abambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, hejuru hari amatara menshi ndetse n'ibyuma.

Abana benshi bari munzu bicaye imbere y'ameza ariho ibiryo, inyuma yabo hari ikibaho, hakurya hari umugore n'abagabo babiri.

Itsinda rya'ban benshi bazamuye ibiganza basa n'abari kurahira indahiro, bambaye imipira y'umukara hirya yabo hari abandi bambaye imipira y'ubururu, inyuma yaho hari inzu ndetse n'ama esikariye.

Mu kibuga hicaye abantu bakoze uruziga, higanjemo abagabo, abagore, n'abasaza, hirya yabo hari ivuriro, hakurya hari amazu asanzwe.

Itsinda ry'abagore bafite ibitabo mu ntoki, bambaye n'udupfukamunwa tw'umukara n'utw'ubururu, harimo n'abagabo bakeya, bafite icyapa kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, inyuma yabo hari indabo, inyuma y'indabo hari inzu, ifite inkingi.

Mu kibuga hagati, hashinze amahema ari mu mabara y'umweru n'icyatsi, hari: abakecuru, abasaza, abagabo ndetse n'irindi tsinda ry'abantu bambaye impuzangano y'imipira isa n'ibara ry'icyatsi.

Hari imodoka y'ivuriro ifite umuryango, iruhande hicaye abagore n'abandi b'abaganga bambaye udupfukamunwa. Bicaye ku ntebe z'umweru, hirya hari inzu.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye ku ntebe, harimo abambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse bicaye ku ntebe z'umweru, hakurya hatondetse intebe z'amabara y'umutuku, hepfo hari shitingi iri mu mabara y'umweru.

Itsinda ry'abantu benshi abagabo n'abagore harimo n'umuzungu, hakurya hazitiye n'amatafari ya rukarakara, inyuma y'aho hari ibiti.

Abagabo babiri n'abagore babiri bafite udutabo dutoya mu ntoki turi mu ibara ry'umuhondo, icyatsi n'ubururu, bicaye ku ntebe ndetse amaboko yabo ari ku meza.

Abagore babiri bicaye ku ntebe y'urubaho, umwe yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umutuku, undi yipfutse mu maso n'igitambaro cy'umutuku, yambaye ibitenge by'ubururu, inyuma yabo hari inkwi z'imyatse.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe abagabo, abasaza, abakecuru imbere yabo harumu umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inyuma ye hari ameza ari mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Itsinda ryabantu benshi bambaye impuzangano y'imipira y'ubururu ndetse n'umutuku, bafite icyapa mu ntoki kirimo amabara y'umuhondo, umweru, umukara, umutuku, hakurya yabo ku ruhande hariho ibyatsi, inyuma yabo hari amazu.

Abantu biganjemo abagore n'abagabo, bicaye mu gicucucucu cy'igiti bakoze uruziga. Hirya yabo hari amazu, hepfo yabo hari ishyamba.

Abantu bicaye mu cyumba kiberamo inama, higanjemo abagore n'abagabo, imbere hariho imeza ndetse n'urukuta rusa n'umuhondo. Kumeza hateretse icupa ry'amazi.

Akabati karimo ibitabo biri mu mabara y'umukara, umweruru n'icyatsi, hirya hariho umugabo wambaye ishati y'umweru, ufite mudasobwa, iruhande rwe hari ikirahure.

Umugabo uri ahabikwa imiti, yambaye ishati y'umweru, imbere ye hariho udukarito tw'umweru, ubururu, hakurya hari igikuta cy'umweru.

Ahabikwa imiti iri mu ducupa dufite amabara y'umuhondo, umweru, ubururu n'icyatsi.

Telefone irimo amagambo yanditse mu mweru ndetse iriho igishushanyo cy'umutima hariho inka iri mu mabara y'umweru n'umukara, intama, ihene n'ingurube.

Ibaraza ry'inyubako ifite inkingi z'inzu, hejuru hamanitse icyapa, kiri mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse inyubako ifite inzugi z'umukara.

Abagabo bari mu cyumba kibikwamo ibikoresho, bambaye amashati ajya gusa n'igitaka ndetse n'umwe wo hagati wambaye umupira w'umutuku, inyuma yabo hari ibikarito byinshi, hirya hari igikuta cy'umweru n'igisenge cy'umweru.

Mu inzu y'ubucuruzi hahagaze umugabo wambaye ipantaro yumukara n'umupira w'ubururu, afashe kumeza uri mu mabara y'ubururu imbere ye hari umugore ufite ikaramu wegeye na mudasobwa hakurya harimo ibicuruzwa.

Itsinda ry'a'abantu harimo abagabo n'abagore b'abirabura, ndetse n'abazungu bahagaze mu byatsi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo, hakurya hari inzu izitije mubyatsi.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo urubyiruko, imbere yabo hari icyapa cyanditseho mu nyuguti z'umweru ndetse no mu mabara y'ubururu, hakurya hari idirishya.

Imbuga nini hariho itsinda rybagore, abagabo, abana, abasaza n'abakecuru, hakurya hari kubera ibirori bigaragara ko bamwe bari gushimisha abandi mu bijyanye n'imbyino.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ufite icyapa mu ntoki kiri mabara y'ubururu ndetse n'umweru n'umutuku, inyuma ye hari abana b'abanyeshuri batoya, hakurya hari amashuri.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye mu nzu ku ntebe z'umweru, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inkuta zisa n'umuhondo, igisenge gisa n'umweru.

Umugore n'umugabo bari gutaramira imbaga nyamwinshi, umugore yambaye umupira w'umweru, umugabo yambaye umupira w'umukara, hakurya hari ibiti amashyamba ndetse n'amazu y'ubucuruzi.

Icyumba kiri kuberamo inama, harimo za mudasobwa ndetse n'abantu bicaye abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi n'amezaza akoze mu biti, imbere hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari ikibaho kiri mu ibara ry'umweru.

Mu nzu iberamo inama hicayemo abagabo, abagore n'abana, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umukara, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Itangi ririho abagore, abagabo n'abana bari kuvoma, mu majerekani y'umuhondo, inyuma yabo hari igitambaro cy'ubururu.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo abagore, abagabo n'abasaza, bicaye ku ntebe z'umutuku. Inyuma yabo hari shitingi n'ibitambaro biri mu mabara umutuku, umweru n'ubururu.

Abaganga babiri bambaye amashati y'umweru n'imipira y'imikara, imbere yabo hateretse ibyuma by'ikoranabuhanga, ibitabo ndetse n'amakayi. Ku ruhande hari umurwayi witwikiye igitambaro cy'umuhondo.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, yambaye ikanzu irimo amabara y'umweru, umutuku, icyatsi. Imbere hari ibikarito, ahagaze ku kabati karimo amacupa.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru wicaye ku ntebe, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru, ufite ibitabo ndetse n'ikaramu. Imbere yabo hahagaze abagore bambaye ibitenge bafite n'abana.

Ivuriro riri mu mabara y'ubururu risakajwe amabati y'ubururu, hakurya hari inyubako ndetse hari n'abantu bicaye ku ibaraza ry'ivuriro.

Umugabo ukora kwa muganga wambaye ishati y'icyatsi afite urushinge mu ntoki, hejuru ye hari amatara, hakurya hari ibyuma n'igikuta cy'umweru.

Abagore bicaye ku ivuriro basigagatiye abana mu ntoki, hariho umuryango w'umweru ndetse n'umuganga ufite igitabo mu ntoki.

Umugore uri mu biro ku meza hari ikaramu ndetse n'impapuro hariho mudasobwa y'umukara, umugore yambaye ishati y'umweru yicaye ku ntebe.

Abantu bari ku marembo y'inzu, higanjemo abakecuru, abagore n'abasaza n'abagabo, bari kwerekeza ku muryango usa n'ubururu, hakurya hari ishyamba.

Imbuga nini irimo ivuriro riri mu amabara y'ubururu risakaje amabati ya kijyambere, iruhande hari abaturage benshi ndetse n'imbere hariho abandi.

imbuga nini, imbere yayo hari igiti cyegeranye n'ivuriro ririmo amabara ry'ubururu, risakajwe amabati y'ubururu, hahagaze abantu benshi, abagabo ndetse nabo n'abagore.

Abantu bateraniye mu nzu bigaragara ko hari ikiganiro cyangwa se amahugurwa bari gufata, imbere yabo hicaye abayobozi ndetse n'undi uri kugenda abasobanurira ibyanditse ku gipapuro kiri imbere yabo, ni abantu higanjemo abantu bakuru b'abamama.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umugore wambaye umupira w'umweru ufite ibitabo mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho ibikombe by'imiti biri mu mabara y'umweru, imbere ye hari abagore babiri.

umugore wicaye ku ntebe y'umukara, yambaye igitambaro cyu'bururu n'ikanzu y'umutuku, yiteza igitambaro cy'umutuku, ashyize amaboko ku meza, afite igitambaro cy'umweru, imbere ye hicaye umugabo, wambaye ishati y'umweru, wicaye ku ntebe y'umukara na mudasobwa imbere y'iwe.

Hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, imbere ye hari ivuriro riri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite ibitabo n'ikaramu mu ntoki, ahagaze hagati y'abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hari umuryango uri mu mabara y'umweru ndetse n'amadirishya.

Ikivunge cy'abantu benshi harimo umuganga uri kubapima ubushyuhe bw'umuriro, yambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru yiteze igitambaro k'icyatsi hakurya hari amazu ndetse n'imisozi n'ibiti iruhande rw'abantu.

Igiti giteye imbere y'amavuriro abiri, amavuriro ari mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi asakajwe ibara ry'ubururu, imbere yayo hari umugabo ndetse no ku mabaraza hari abarwayi.

Hari inzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere yaho hari kandagira ukarabe, ku mabaraza hateretseho intebe zicayeho abantu, ku idirishya hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ufite ikayi mu ntoki, iruhande rwe hari intebe, inyuma ye hicaye umugore ufite mudasobwa iteretse ku meza y'ubururu, iruhande hari abantu bicaye ku ntebe.

Umugabo wambaye ishati y'umweru mo imbere yambariyemo umupira w'umukara. Afite ikaramu ari kwandika ku rupapuro. Iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru irimo utuntu tw'umutuku. Imbere yabo hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Hari icyapa, kiri mu mbuga hagati, iri imbere y'ivuriro, risize irangi ry'ubururu, risakajwe, amabati y'ubururu. Hahagaze, abantu.

Inzu iri mu amabara y'ubururu isakajwe amabati y'ubururu, iruhande rwayo hari ikigega gisa n'umukara inyuma hari ibiti.

Umugore wambaye umupira w'umutuku uteze igitambaro cy'umweru n'ibitenge by'umutuku. Yicaranye n'umugore ufite umwana. Imbere yabo hari umugore wambaye umupira w'umutuku, uhetse umwana mu gitambaro cy'umweru n'ubururu ari imbere yidirishya ryo kwa muganga riri mu mabara y'umweru.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye begereye urukuta, higanjemo: abagore, abagabo, abasaza bafite impapuro mu ntoki, begamiye ku gikuta kiri mu mabara y'umuhondo.

Umugabo wambaye amadarubindi, wambaye umupira w'ubururu ahagaranye n'uwambaye umupira w'umweru, imbere yabo hari intebe ebyiri zicaweho n'abagore babiri ndetse n'abagabo babiri. Imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'ubururu n'icyapa ku ruhande.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ku murongo harimo umugore wambaye ikanzu y'umutuku, abagabo bambaye amakoti y'imyeru n'umukara ndetse n'udupfukamunwa . Imbere yabo hari igikoresho k'ikoranabuhanga kiri mu mabara y'umweru.

Ivuriro riri mu mabara y'ubururu mo imbere mu ibaraza harimo ibara ry'icyatsi ndetse n'imiryango ibiri hateretse n'intebe zisakajwe amabati y'ibyuma imbere hari kandagira ukarabe.

Umugabo ufite igitabo mu ntoki kiri mu ibara ry'ubururu yambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hari intebe, inyuma hari umugore wicaye wambaye ishati y'umukara ufite mudasobwa iteretse ku meza asa n'ubururu, iruhande hari abantu bicaye ku ntebe z'ibiti.